Umudamu urabona ko afite mikoro, afite ibintu ari gusobanurira abantu batandukanye, rero ahagaze mu twatsi, hakurya hari igitaka ariko n'ameza ateretseho azinzeho ibitambaro, hari n'abantu benshi ubona ko bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika ibyo avuga, bari ahantu hatwikiriye, nta zuba rihari.

Urabona ko bisa naho bari kwiga ku kibazo runaka, inyuma yaho handitse Kigali ikeye, kigali yacu. Rero bayonboye inama bicaye mu ntebe nziza cyane imbere yabo hari uducupa tw'amazi ndetse n'indangururamajwi kugira ngo mbese uvuga yumvikane.

Abo bagabo rero urabona ko bambaye neza cyane amashati meza ndetse nabicaye ku ntebe z'umutuku ariko harimo imwe y'umukara hari ameza ateretseho ibitambaro byiza cyane biteguye ndetse hakurya haru undi nawe ubona ko asa nubayoboye afite ibyo bari kuganiraraho.

Umugore wicaye hagati y'abagabo babiri, afite ikayi n'ikaramu barimo barandika, amazi imbere ya bo bari kunywa kugira ngo nibicwa n'icyaka bakigabanye, undi na we afite mudasobwa imbere ye na telefone, inyuma urahabona ijambo ryanditse rura, ndetse bari munzu nziza cyane urabona ko icyeye.

Uko ubibona harimo abategarugori benshi cyane ndetse n'abasore, bafite impapuro n'ikaramu barimo barandika ibintu runaka imbere yabo hateretse amazi bicaye ku ntebe nziza cyane z'imikara z'imikara n'ibintu bikeye cyane.

Abasore beza cyane ubona ko basa n'abakuze n'umubyeyi ubona ko na we arimo. Imbere ye hari amazi, amakaye, telefone abandi bafite mudasobwa bisa n'aho hari ibintu bari kureba runaka bari munzu nziza ubona ko zifite amarido akeye ndetse n'amadirishya meza cyane.

Aba rero urabona ko ari abategarugori bamwe bitambiye, abandi barahagaze ndetse n'abagabo barimo, ubona ko bafite ibintu bari kumva, inyuma yabo hari inzu ubona ko itaruzura hariho ibibaho ndetse n'ikindi kirango cyerekana ibintu biteganyijwe n'akarere.

Nk'uko bigaragara uyu ni umuhanda ni amasaha ya nijoro, urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byose byamaze kwatsa amatara yabyo, kimwe muri ibyo binyabiziga ni imodoka y'umweru bigaragare ko ihagazeho umugabo wambaye akantu k'icyatsi.

Aba rero urabona ko bambaye amakarita ndetse n'imyenda, bisa n'aho hari inama bari bitabiriye yiga ku bibazo runaka biba byugarije abaturage cyangwa biba byugarije igihugu, biterwa n'ingingo nyamukuru ihari.

Ubwishingizwe buzwi nka buritamu baragufasha n'igihe imodoka yabo yagize ikibazo kuburyo itabasha kuva aho iri babishyura na baragideni iza kuyihakura hitamo beretamu inshuti y'ibihe byose.

Abantu benshi ubona ko harimo urubyiruko abasaza ndetse n'abakecuru, gusa nk'uko ubibonana n'abategarugori benshi basokoje udusatsi twabo, imbere hari ahantu hari ibyapa byanditseho amagambo runaka ugomba gusoma ukumva n'icyo umuntu ari kubabwira, nk'uko uriya wambaye amakoti y'umukara, yahagaze afite ibyo ari kubaganirizaho.

Hano urabona abantu benshi bisa naho bafite ibindi bintu bakurikiye, imigozi ibagemurira umuriro imbere yabo, ndetse n'uducupa tw'amazi ya nire twinshi cyane, inyuma urahabona abategarugori, ndetse n'abandi batandukanye bari bitabiriye ibiri kubera hano.

Aba ni abakecuru nuko basa n'abakuze hari ku itariki ebyiri z'ukwa gatanu bibiri na cumi na karindwi nkuko ubibona bari gusuhuza uyu mupapa nawe ko nawe abyibushye ariko ntabwo bikabije cyane hirya rero hari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ubona ko nabo babyishimiye bari kumera neza n'abandi bari bitabiriye ibi bikorwa.

kera wasangaga ntamugore ushobora kugera ahantu abagabo bateraniye ariko ubungubu bose aricara akanabaha n'ibitekerezo ugasanga bamwe na bamwe barabirusha abagabo babo nkuko ubibona uriya wambaye umupira w'umweru imbere ye hari amakayi menshi n'uducupa twa'amazi ari kwinywera.

Abagabo batatu ubona ko bose nta musatsi uraringaniye, bamwe bafite ubwanwa abandi ntabwo bafite, bicaye imbere ya mudasobwa zabo bafite ibintu bari kuganiraho ubona ko ari ingingo nyamukuru ibateranije hano, amazi imbere yabo igihe bari bugire icyaka baranywa.

Urabibona ko rwambaye amakoti y'icyatsi, rwiganjemo inkumi n'abasore, ubona ko bari kumwe n'abandi bantu bambaye nk'abanyonzi. Harimo daso zishinzwe umutekano mu mujyi wa Kigali, basa nk'abitabiriye ibindi bintu runaka bari kumva.

Bimwe navugaga rero byo gusora kuko bifasha abantu kubaka ibigo by'amashuri nk'aba bana urabonako barasa neza inifomo ikigo cyubatse neza rwose, urabona ko buri mwana nta kibazo afite nawe rero ni ngombwa ibyo bintu byose urarabisabwa kugira ngo mushyire itafari kuri aba bana.

Nk'uko ubibona rero ni abagabo babiri ndetse n'abadamu babiri, bisa naho bafite ibintu bari kuganiraho. Bicaye mu ntebe nziza cyane z'imyeru, inyuma hari ibirango ndetse n'idarapo ry'u Rwanda. Imbere yabo hari ameza ateretseho amazi meza yo kunywa kugira icyaka kitabica.

Umuntu ufite amafaranga menshi y'ubwoko bumwe mu ntoki ze arimo arayafunga kugirango abe yayabika, n'faranga menshi rwose imbere hari imashini ibara amafaranga imbere ye kandi hari imashini ya mudasobwa, mu busanzwe rero ibintu nk'ibyo dukunda kubisanga mu mabanki cyangwa se mu biro bivunja amafaranga aho baba bafite amafaranga menshi kandi bagomba kubika amafaranga bitewe n'ubwoko bwayo intoti ukwazo bigiye bitandukanye.

Abadamu ubona ko bashirutse ubwoba ndetse n'isoni, baragenda bajya ahantu runaka bajya kwiyamamaza na bo bayobora ibindi bintu. Amazi imbere yabo ndetse n'ibirahure, telefone, ibipapuro bandikaho ingingo z'ingenzi zavugiwemo aho.

Umubyeyi nk'uko mubibona rwose afite ikintu ari kubaganiriza imisatsi isokoje neza imyenda myiza, imbere ye hari amakayi ndetse n'amakaramu n'abandi nabo urababona ko bubitse imitwe banakurikiye cyane.

Bariya ni ababyeyi ubona ko bari kumwe n'abarimu niba ndeba neza. Hakurya urahabona abandi benshi bitandiye ndetse n'abakenyeye, bigaragaza umuco nyarwanda rwose. Bari ahantu hatwikiriye, nta zuba, nta mvura byabageraho, bisa naho bari gutanga impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi.

ubu rero urabona ko bamwe wagira ngo bari gufata imyanzuro, abandi bari kumva ibyavuzwe, imbere hari udupapuro twanditseho amazina yabo, hari amacupa y'amazi, mudasobwa zitandukanye ndetse na mikoro, ufite icyo avuga agomba kukivuga, ndetse urabona ko harimo n'abagore batandukanye rwose.

Ababyeyi benshi ubona ko bakeye bafite amakaye ndetse n'amakaramu, bicaye bafite ibyo bakurikiye, gusa harimo n'abagabo n'ahantu hasa n'ahashashe amakaro meza cyane nta hantu hari umwanda nkuko ubibona nawe, hakurya hari amarido meza atuma urumuri rwinjira.

Umubyeyi ubona ko asa nukuze wambaye amarinete na telefone ebyiri mu ntoki hirya hari undi wambaye umupira w'ubururu, ubona ko ari benshi cyane bafite ibyo bajemo ndetse n'inama runaka baje, hasi rero urahabona hari utwatsi niba ari tapi ushobora kuna byirebera nawe ukabimenya.

Ni byiza ko nawe wakwigirira ikizere ukajya wiyamamariza kuba ubuyobozi kuko birafasha nk'uko ubibona uyu mugabo hirya hari umugore bisa nk'aho ari uburinganire bwaje mu Rwanda imbere yabo hari amazi meza ubona ko ateretse n'utumikoro yego inyuma urahabona abandi bafite za mudasobwa nabo bafite ibyo bakurikiye.

Ahantu hateraniye urubyiruko ni heza cyane bicaye ku ntebe z'umutuku abasore n'inkumi barimo rwose, hari umugabo inyuma ufite mikoro usa naho afite ikintu ari kubabwira yambaye kositimu y'ubururu ndetse hasi ubonako hashashe agatapi keza kariho utwatsi.

Aha ni ahantu rero ubona ko hateraniye abantu benshi barimo inzego z'umutekano, harimo umubyeyi wambaye umwenda mwiza cyane ubona ko afite mikoro ari kubwira abantu ikintu runaka, ndetse hari n'abandi basore ubona ko bakuze n'abamama bari bitabiriye ibikorwa byabereye hano.

Rero nkuko ubibona iyi n'inama yahateraniye, irimo abantu benshi. Batanu bicaye imbere, abandi nabo barahari barakurikiye rwose, hakurya urahabona ikirango kirimo amabara ajya gusa icyatsi, ariko ntago ari neza cyane.

Abagabo babiri ubona ko basa nk'abakuze barimo baraganira ku kintu runaka bamwe bafite udutabo bandikamo ibyavugiwemo cyangwa ingingo nyamukuru ihari ndetse imbere yabo hateretse ibinyobwa, ibirahure byubitse, utubabi tw'ishami ndi kureba aho ngaho n'inyuma yabo ubona ko hari n'abandi benshi.

Uko ubabona bafite gahunda rwose bafite ibyo bakurikiye, nyuma yaho hari umugore si umwe gusa ahubwo ni benshi, bafite mudasobwa imbere yabo amazi ndetse n'ibindi bisa n'aho baje kuganira ku kintu runaka ubona ko bari kwigaho kugira ngo biteze imbere, icyangwa bateza imbere bagenzi babo ndetse n'abaturage rusange.

Ni byiza ko nawe igihe uri umuyobozi ugomba guhagarara imbere y'abantu ukagira icyo ubabwira nk'uko ubibona uyu nguyu na we hari ibyo ari gusoma mikoro mu ntoki hakurya hari imitako ubona ko iri mu mabara y' u Rwanda idarapo ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi n'abandi bantu bicaye ubona ko bategereje kumva ibyo ari kubabwira.

Uyu mugabo rero nkuko ubibona yambaye ikote ryiza cyane ry'umukara ndetse n'ipantaro bisa karavati y'umutuku ishati y'umweru isaha ndetse na mikoro. Afite ibyo ari kuganirira abantu bareba. Hakurya hari igitabo wagira ngo yari yitwajemo ibintu runaka aza kubaganirizaho.

Abo badamu rero nk'uko babona nibo bashitse ubwoba baragenda biyemeza kujya mu nteko ishingamategeko baraganira. Ndetse baniyamamariza ibintu runaka baratsinda urabona ko biciye ku ntebe zimwe n'abagabo imbere yabo hari amazi yo kunywa.

Hariya nk'uko ubibona hari abategarugori benshi cyane, bambaye imyenda y'imituku, bicaye ku ntebe rwose, imbere yabo hari amakayi n'amakaramu ndetse n'undi muntu uri kubaganiriza w'umugabo ubona ko nyine bishimye, hejuru hashashe ibitambaro by'ubururu ndetse n'umuhondo.

Umuntu wicaye ndetse nyuma ye hakaba hari ibendera akaba ari umwe mu bakoze mu rwego rwa leta aho yafashije igihugu kugira ngo kive ku rwego rumwe kigere ku rundi mu buryo bw'iterambere haba ku baturage ndetse no guteza imbere ibindi bintu bitandukanye.

Abagabo benshi rero ubona ko bamwe bambaye amakote ndetse n'amakaruvate, inyuma y'abo hari abagore bisa naho byerekana ibintu by'uburinganire ko byateye imbere, ndetse hakurya urahabona n'abandi benshi, imbere yabo bafite amakayi ndetse n'amakaramu bari kwandika, amazi yo kunywa igihe bumva bagize akanyota.

Aba rero ni abadamu ubona ko bameze neza, bishimye nabo bafite ibindi bintu bari kumva baje kureba bari ahantu hatwigiriye, nta mvura nta zuba, hasi hashashe utwatsi rwose ubona ko ari ibintu bisa neza.

Abari beza cyane ubona ko bari guhamiriza, umwe arakenyeye undi ntabwo akeya yambaye imyenda isanzwe, hakurya urahabona abadamu bakuze bambaye imikenyero, abagabo bari gukoma amashyi ubona ko bishimye ndetse bitabiriwe n'abana batoya, urubyiruko muri rusange.

Uyu mugabo rero ubona wambaye ikote ryiza, ipantaro isa kaki, ahagaze mu twatsi inyuma ye hari indangururamajwi; radiyo, imbere hari abandi bantu bicaye ubona ko bafite ibyo bari kumva, ari kubaganiriza, hakurya urahabona abagore bahetse abana.

Aba mureba bameze nk'abantu bari mu nama runaka yiga ku bibazo byugarijea abandi harimo umupolisi w'inyenyeri rwose ubona ko akuze mu nzego hakurya urahabona n'abandi bafite amazi udupapuro imbere yabo nyine ubona bafite gahunda.

Umunara udufasha kubona itumanaho rwose mu buryo bworoshye ugasanga nyine turavugana n'abantu bari mu ntara natwe twibereye i Kigali nta kibazo rwose tukohezanya n'amafaranga runaka.

Gutunga simukadi ni byiza ariko ntabwo ari byiza cyane gutunga izitagufitiye akamaro. Niba ufite nyinshi wagerageza gusiba imwe, kuko iyo uhuye n'ikibazo ukayijugunya abatekamutwe bakayikoresha, usanga ibyaha bikoreweho ari weho baje gufata kubera iba ikubaruyeho, ni byiza ko rero wajya wifashisha ino mibare "ijana na makumyabiri na gatanu" ukayisiba.

Ni byiza gukurikira iki kiganiro, ndetse nk'uko bari kubibararikira hano kuri iki kirango cyerekana ko baza kunyuza ibyo biganiro kuri radiyo y'igihugu, ndetse ukaza kubikurikira ugasobanukirwa waba ufite ikibazo ukabaza rwose ni byiza cyane.

Uyu rero ni umunara utambutsa itumanaho mugihugu icyaricyo cyose bagomba kuwugira, nkuko ubibona hasi hari ibintu biwuha umuriro mugihe uwa REG ubuze hari insinga z'amashanyarazi rero zambuka zigenda zijya ahantu hatandukanye kuri buri rugo.

Aha hantu rero urabona ko hashishe amabuye nta cyodo wahahurira na cyo hakurya urahabona inzu nziza ifite urugi ruriho ibirahure bigaragara ubona ko nubireberamo urahabona imodoka iparitse ndetse n'umuntu ahahagaze uri muri telefone, ibirango by'ubururu byerekana ko bacuruza ibijyanye n'itumanaho.

Rwanda Education Board ni ikigo cy'igihugu gishinzwe gutegura uburezi mu gihugu cyose nkuko ubibona hano hari akadarapo k'u Rwanda ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, ibi rero bikaba bireba umunyeshuri wese agomba kuza kubariza amakuru yose kuri iki kigo.

Aba rero ni ababyeyi batatu ubona ko bari mu modoka, umwe ari kubareba ntabwo azi ibyo barimo, gusa bisa n'aho ari kumwereka akantu runaka abonye ku mbuga nkoranyambaga, kakaba kamushimishije; urabona ko nyine ari ibintu byageze kure.

Gerageza wigishe umuntu nawe nibaubizi ukuntu yajya amenyekanisha imisoro y'iwe nk'uko ubibona hano, aho bari kukwereka ahantu ushobora kwifashisha ujya kunyura rwose ariko niba hari ubumenyi waba umurusha rwose nta kibazo mwajya musangira ukanamufasha kuko kubaho ni ukubana.

Uyu munara rero nkuko ubibona urakeye cyane, umeze neza hakurya hari igicu gisa ubururu budake cyane ndetse n'umweru, hasi rero urahabona amakoma yeraho ibitoki n'ibindi biti bitandukanye, uyu nguyu rero udufasha kuba twahamagara abantu hanze cyangwa nabo bakaduhamagara.

Hano ni ahantu ushobora kuza ukavunjisha cyangwa ukabitsa, ukanabikuza, harimo banke zitandukanye rwose, nk'uko ubibona nyine ni byiza kuyigira ndetse byaranoroshye, ahantu hose wajya wahamusanga apana kujya ku byicaro ujya gutonda umurongo.

Nk'uko bibona riri ahantu ni ku umujyi hari umunara utanga itumanaho ryihuse kandi bitanacikagurika, urasa icyatsi uriho ibintu bifasha kongera igihe itumanaho ricitse imbaraga. Urabona hari amazu meza cyane rero y'umutuku ahateye imbere cyane.

Ni byiza ko nawe niba ufite igikorwa runaka ukora wandikishije muri leta. Uba ugomba kumenya umunsi wo gusoreraho, ndetse ukajya no kureba niba nta yindi bakwanditseho wishyuye wenda bakaba baribeshye. Nk'uko ubibona rero uyu umuntu yari ari kugerageza kuyinjizamo imyirondoro ye, ngo arebe niba nta kibazo kibirimo.

Aha rero ni ahantu ushobora gushakira akazi runaka igihe ubona ko byagucanze, ni byiza rero ko nawe wajya wiyaminiya ariko ukaba ufite nk'amashuri cyangwa ufite ikindi kintu cyaguhesha akazi ugomba kugitanga.

Bimwe navugaga ushobora gusanga ku rubuga rw'irembo birimo no gusura ingagi, nk'uko uzibona nabyo ushobora kuza ukabisabira hano, aho ngaho navuze ku rubuga rwa leta batangaho nyine. Ushobora gusabiraho ibintu bitandukanye rwose, biroroshye n'iyo waba uri i mahanga.

Leta yorohereje abaturage ubungubu bisigaye byoroshye ntabwo uva iwawe ngo ugiye gushaka ahantu runaka wiyandikishiriza, nawe wabyikorera, icyo usabwa ni mudasobwa yawe cyangwa telefone. Nkuko ubibona iki kirango cyanditseho intambwe ya gatatu, uhitamo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'ikiciro cyisumbuye, ushobora gukuraho ibyemezo bitandukanye by'ivuka, by'ishyingirwa ndetse n'ibindi.

Imenyekanisha umusoro ni byiza cyane ku bantu muri rusange ndetse n'abakora ubucuruzi butandukanye, bwabo ubwo hanze n'ubwo mu gihugu mo imbere kuko bidufasha kubaka imihanda, amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi byinshi bituma dutera imbere byihuse nk'uko ubibona hano, ni uburyo bukwigisha ukuntu wabyikorera ku giti cyawe utiriwe ujya gusaba ubufasha runaka.

Aha rero nkuko ubibona ni umunara ufite ibisahani hejuru bimwe byakira ibindi bikohereza imiyoboro, hasi hateretse ibyapa byanditseho tigo by'ubururu imodoka zihaparitse ndetse n'abantu n'ibitigiza cyane ubona ko bafite ibyo baje gutaha

Vugu ati nkukouko bibona hakurya hari umunara ndetse niito uyu rerodufasha kubahamagara mu cyaro tukavugana nabo nta nkom icyatheza ayofaranga akagerayo ndetse tugaganira dukoresheje ikoranabuhanga.

Abantu ni abantu bakuze babona ko bisa n'aho baje kwaka ibintu runaka imbere yabo hari umwari ndetse n'undi bari kumwe bari kureba muri mudasobwa, bisa naho hari ibintu bari gushaka kubaza, hakurya urahabona ikirango kiriho umugabo wasetse rwose wishimye.

Icyumba cyiza giteguye neza kiriho matora nziza iri kiri mu mashashi ifite ibara ry'umweru, ndetse ku hande hari n'ahantu ha ushobora kwicara heza, ku ruhande handi hariho akabati gateganye n'igitanda wabikamo udukoresho ndetse hariho n'amarido meza cyane, n'ibindi biteretse kuri matera

Nk'uko uhabona hashashe amabuye y'umutuku ndetse n'andi, hakurya urahabona umugabo wambaye imyenda y'akazi rwose ubona ko yihangiye imirimo, arabitsa, akabikuza, agacuruza amayinite, ndetse n'ibindi byinshi, ahangaha ari rero nuko imiryango ifunguye, hari intebe ushobora kuza ugakoresha mudasobwa bitewe n'ikintu runaka ushaka.

Aha ni ahantu rero, ubona hari ibyuma bigiye bitandukanye bifasha abantu kuba babona umuriro mu buryo bworoshye binaboroheye. Hari umuntu uri gutambukayo, urabona ko naho hakeye. Hari abantu rero bataragerwaho n'ibyo bikorwaremezo runaka, aha rero niho babafasha bikabageraho.

Iki cyuma nkuko ukibona rero, cyakira umuriro w'amashanyarazi, kikawohereza kubantu runaka igihe ubaye mukeya kikawongera, ndetse n'igihe ubaye mwinshi kikawugabanya kugira ngo utagira ikintu byangiza. Hakurya rero urahabona hari ibiti byiza cyane.

imbuto izo nshinga z'amashanyarazi zigaburira abaturage umuriro kugira ngo babashe kurya, urugero bagoshi, abasudira, abatanga filime ndetse n'abandi benshi batandukanye ,bakora kubera ibingibi ikirere urabona ko nacyo gisa n'igikubye akavura kagiye kubagwa.

Ukuko ubibona iyi ni imodoka nziza cyane isa umweru, ibirahure bituma abantu bareba hanze, hakinjira n'urumuri ndetse n'akayaga mu modoka. Gusa ni yo ndi kureba isa niri kumanuka, hirya hari amapoto agemurira umuriro w'amashinyarazi ahantu runaka ndetse n'ingo zitandukanye.

Ibi rero ni ibyuma bifasha abantu kugeza insinga za mashanyarazi ahantu runaka zishobora kuwambutsa ziwuvana Kigali ziwugeza Rubavu kandi ntakibazo kibayemo bigatuma ntanumuturage ubura umuriro nkuko ubibona rero hari n'ibiti byiza cyane ubonako ntakibazo bifite.

N'umuhanda mwiza cyane ucyeye mu Rwanda tugira ibintu byo gusukura cyane harimo urimo kuwukubura afite icyo kuwukoresha hakurya urahabona igifuka giteretseho amapoto y'amashanyarazi yambutsa umuriro w'amashanyarazi abamotari bari guturuka ahantu bava hamwe bajya ahandi.

Umunara ni mwiza cyane ko kuko urafasha, mubona hano urakorotiriye, ibiguha umuriro igihe uhuye n'ibibazo runaka banakubakishije ibyuma, hakurya urahabona akapa handitseho amasiteri aka rero karanga ko hafi aha hari ahantu ushobora kugenda, ukica icyaka ukinywera akanu.

muri kubibona ni kumuhanda hakurya habanza akayira k'abanyamaguru banyuramo bitambukira bafite iyo bajya hirya hari utwatsi tuhateye ubona ko hari umwanya wahagera hari urupangu rw'umweru warebamo imbere harimo amazu yubatse afite amabati y'umutuku waterera amaso hejuru hari amapoto y'amashanyarazi agaburira kano gace.

Nk'uko ubibona muki ikirere cyuje ubururu uducu dukeya, amapoto y'amashanyarazi agaburira abaturage, ndetse n'ubundi bucuruzi bubera hano nk'uko ubibona hakurya hari isoko ahanini, hari n'amamodoka menshi agengwamo n'abantu rero nawe wahagera ukareba.

Hano rero ni umuriro w'amashanyarazi nk'uko ubibona amapoto ariho insinga nyinshi cyane, ikirere wagira ngo imvura igiye kugwa, hasi hari akantu kameze nk'umusaraba, hirya gatoya hari ibindi biti uri kubona rwose bikeye wagira ngo bitanga akayaga bishobora no gutangira ino mvura, cyangwa ibisenyera abaturage.

Izi rero n'insinga z'amashanyarazi zambutsa umuriro ziwuvana hamwe ,ziwujyana ahandi zihagaze ku ipoto, ninyinshi cyane urabonako hari abantu badashobora kurya umuriro utabagezeho nk'abantu b' abasuderi, abogoshi, rero hano bari kuziterateranya urabonako hariho abantu babiri bari baje gutanga ubufasha.

Uyu nuhanda nkuko ubibona ni mwiza urakeye ariko ruguru hari uhita uzamuka hepfo hari uturukamo urahabona inyubako itaruzura neza ndetse hari amapoto y'amashanyarazi abamotari baba bategereje gutwara abantu ngo babavane ahantu hamwe babageze ahandi.

Iyi nzu rero nkuko uyibona hariho ipoto rijyana umuriro w'amashanyarazi gusa ryo n'icyuma hasi hari ibyapa biranga umuhanda, inyuma hari inzu ubona ko ari iz'ubucuruzi zisa ubururu ndetse ukabona n'umuntu uri gucuruza nk'amayinite, ubitsa ukanabikura.

Abagabo n' numudamu bicaye yambaye ijire y'umuhondo irimo akarongo k'umukara asutse ibishuko byumukara, yambaye agashanete mu ijosi, imbere yabo kumeza hari agacupa k'amazi igitabo hejuru hariho bike.

Aha rero ni kumuhanda nk'uko ubibona rwose hari ipoto ry'amashanyarazi riteyeho itara rimurika igihe bwije kubinyabiziga bihatambuka hakurya urahabona ibiti byiza cyane ndetse n'umusozi, wareba hiryaho gato hari akayira abanyamaguru bakunda kunyuramo.

Hano rero hari inzu ubona ko ifite amatafari isize irangi ry'umukara ndetse n'umutuku hakurya hari izindi nyinshi ziriho ibigega, hariho ipoto ryambutse umuriro w'amashanyazi rifite insinga nyinshi nk'uko ubibona rishobora kuwuvana Nyagatare rikawugeza i Kigali.

Aha rero ni ku muhanda nk'uko ubona icyo cyapa kirimo ibara ry'umutuku ndetse n'umweru ni ikigaragaza ko hari umuhanda utaringaniye, urabona iburyo hari undi ukata, ukubita amaso hakurya hari abamotari bari birengeye bikomereje ndetse n'amatara n'ibiti byinshi cyane.

Hano nk'uko mubibona hari utwatsi dusa n'aho twumye, ibiti byiza cyane bikomeye, indabyo hakurya ndetse n'insina, amazu meza abona ko agaragara neza cyane rwose, amatara acana urumuri, insinga zijyana umuriro, ikirere ubona ko kirimo ubururu bukeya ndetse n'udu..

Inzu rero urabona ko ifite amabati y'umukara meza cyane, igipangu ndetse ipoto ririho insinga z'amashanyarazi nyinshi cyane zambuka zijya kuri buri rugo ndetse n'amabutike atandukanye kugira ngo bamwe bogosha babone ibyo kurya, hano hari n'ibiti byiza cyane.

Iri ni ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi rigaburira abantu batandukanye nk'uko ubibona riri ku muhanda ahantu ku twatsi imbere y'igipangu cy'umuntu, akubita hakurya urabona uduti twiza cyane dukeye.

Aha rero urabona ko hari amabuye meza cyane nta kibazo bisa n'aho ari ku bitaro, hari intebe zo kwicaraho bamwe baricaye abandi barahagaze, hakurya urahabona mu mbangukira gutabara abaforomo bari gusohoka bambaye imyenda y'akazi ndetse hari n'indi iparitse hanze.

Sobanu buri munsi cyane cyane none harimo abaganga bitaho cyane ko barwayi ndetse n'abarwaza niibintu ubona ko bimeze neza cyane nakugira inama rero kujya ushyirwasungane no kwivuza hakiri kare nawe kugirango ubashe kujya kugira witabweho neza.

Aha ngaha ngewe nk'uko, nkurikije uko mbibona rero, ni kwa muganga nk'uko ubibona, hari umubyeyi ufite akantu bagemuriramo abantu ibiryo bitandukanye ndetse n'undi nawe uri kwitambukira, hari utwatsi, indabyo nziza, inzu zubatse neza, urabona ko biryoheye amaso.

Izi rero ni imbangukiragutabara zikora aho rwakomeye zigahita zikujyana kwa muganga igitaraganya, igihe babona ko urerembye cyane. Ni nziza kandi ni ibinyabiziga ndakumirwa, ku bantu bazi amategeko y'umuhanda aba bagomba kubiha inzira rero.

Aba rero nkurikije ukuntu mbona bambaye amakanzu y'umutuku, ndetse n'abagore batinyutse bavuga ngo nanjye ndashoboye reka nde ngerageze. Ndetse n'abambaye iby'umukara, bano ni abanyamategeko ndetse barenganura abantu bitewe n'ibyo bakoze. Hari ugukora ibyaha urabihanirwa yego, ariko hari n'abo baba bari kurenganya.

Aha rero ndikuba neza hari intebe yicayemo umuntu gusa asa n'uhagurutse arimo arasinya yambaye imyenda y'imikara imbere y'undi wambaye iy'umutuku afite amakaye n'amakaramu rero arimo arababaza imyirondoro yabo kugira ngo bakomeze inshingano biyemeje.

Aha hantu rero ni aho abanyamategeko na bo bashaka kuyinjiramo barahirira, nk'uko ubibona bambaye imyenda y'imikara, udutambaro tw'umweru mu ijosi, harimo abagore n'abagabo, barikurahirira imbere y'undi wambaye imyenda y'imituku bisa n'aho ariwe ubakuriye, inyuma yaho hari amadarapo bafasheho rwose ubona ko ari ibintu bikeye.

Uyu umubyeyi ubona ko yashiritse ubwoba ndetse n'isoni, avuga ngo nanjye ngomba kwemeza aka kazi nkakajyamo rwose urabona imyenda yambaye, n'umutuku, ubururu ndetse n'umweru ariko kubayizi ni abantu banyamategeko bunganira abandi nyine igihehe urengana barakurenganu.

Abantu benshi ubona biganjemo abategarugori bamwe bari gufotora abandi bari kwirebera nyine, hakurya urahabona abandi bambaye amakanzu y'umutuku ndetse n'ingofero z'umukara umwe ateruye idarapo ry'ibara ry'ubururu umuhondo ndetse nicyatsi haba harimo izuba mo imbere

Aba rero urabona ko ni abagororwa baba barafunzwe bzira ibyaha runaka biterwa ariko bambaye udupfukamunwa imyenda isa amakaramu ku mashati ndetse n'aho Leta yaborohereje ibigisha uburyo bwo gukoresha mudasobwa kugira ngo nibagera hanze bazagire icyo bigezaho.

uyu mubyeyi yashiritse ubute nawe aravuga ngo ngomba gukorera igihugu. Nk'uko mubibona riro, hirya hari izuba rikunze kugaragara ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, yambaye ingofero imyenda y'umutuku ndetse n'umweru kuayizi, iyi rero aba ari iy'abanyamategeko akenshi.

Uyu mubyeyi nk'uko umubona ni mwiza cyane, afite imisatsi, imyenda y'imituku ndetse n'umukara, ibyo rero ku bantu babizi banabyize, bigaragaza abantu bunganira abandi mu mategeko, wenda igihe ufite icyaha urengana, wagenda akakuburanira, cyangwa se waba ufite ibyo wakoze nabwo, ukagenda akabigushinja ukabihanirwa.

Aba rero urabona ko ari abantu benshi, bavanze harimo abagore ndetse n'abagabo, bamwe bambaye amagofero abandi ntayo bambaye, imyenda y'imituku myiza cyane ariko ukurikije uko mbareba neza abangaba ni abantu bunganira abandi mu mategeko, cyangwa bakarenganura abantu barenganye.

Ugize ejo hezo ukazigamira umwana wawe ku buryo ushobora kugira ikibazo, yamafaranga bakayamuhereza cyangwa se waba uri umusore warabikoze hakiri kare, ukagenda bagahita bayaguhereza ushobora kubaka nibwo buryo bashyizeho. Urabona ko hano rero ni urubyiruko ndetse n'abandi bari kubyamamaza rwose bari kumwe n'inzego z'umutekano niba ndi kureba neza.

Aba rero urabona ko ari abantu benshi, bari kwerekana ukuntu bino bintu bizimya umuriro bikoreshwa akenshi bisanga kwa muganga, ku mashuri, ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi mu mahoteli, n'ahandi runaka, kuri ubungubu byaranakemutse n'imodoka igomba kuba igifite.

Ni muri gare hari haparitse imodoka za kwasiteri zikoreshwa na ajanse ya sitela.

Iyi rero ni imodoka y'abapolisi b'inzego za reta igihe wakoze amakosa rwose urya kubona ukabona iraje igushyize mo hariya munsi ya ziriya ntebe, urabona ko ipatitse kuri sigama sisisi Muhima buranci. Hano rero niho hahemberwa abakozi ba reta cyane cyane abakuriye inzego z'umutekano.

Aha rero nk'uko uhabona mu birango hasi ku muhanda hari ibyerekana ko hari umuhanda ukomeza, abagabo batatu bisa nk'aho bari koza cyangwa bari kuzimya iyi modoka yari yahiye y'ikamyo, hakurya urahabona indi nayo ifite umupira muremure w'umutuku uri kugera kuri ir'iyi y'indi yayitaje kugira ngo nayo itayikongeza ngo zishye zombi.

Rero nkuko ubibona ni ngombwa kubahiriza amategeko y'umuhanda kuko iyo uyarengejeho urahanwa, nkuko ubibona uyu bari bamuhagaritse bagiye kumubaza ibintu runaka ari mu modoka nziza y'umutuku. Uyu mupolisi rwose w'umudamu ubona ko bari kuganira bishimanye.

Igihugu cyacu gifite polisi ikoresha ukuri kandi ikora neza nkuko tubizi twese, aha rero nk'uko ubibona hari abagabo babiri ndeste hari na bariyeri muba mugomba gutambukaho hari ikirango cyerekana ko aho ugeze ariho, hakurya hari inyuko ubona ko abantu bari baje rwose.

Bitandukanye ibikorwa by'amashuri kwa muganga ndetse no mu mahoteli runaka kuko igihe yafashwe n'inkongi y'umuriro gihita cyiwubuzimya byihuse kirafasha cyane nasi hari n'akantu bamenaho imyanda nyine ukaza niyo umaze kurya ikintu ugahita ushyiramo ikibagikuyemo.

Bwari butangiye kwira, hakurya urahabona:umuntu ucuruza amayinite agakora kubitsa no kubikuza, ndetse n'umugenzi uri gutambuka, abapolisi bambaye imyenda y'akazi y'icyatsi; bisa n'aho imvura yari imaze kugwa rwose, abamotari nabo bari gucacana mu mamodoka.

Ni byiza ko nawe ntugira ikibazo wajye witabaza polisi kuko irakora kandi irizewe iyo mu Rwanda noneho biba ari akarusho nkuko ubibona, ikindi ikirango kibyerekana rwose ntukibona ujye uhita umenya ahantu iri, hakurya urahabona abamotari niyo wababaza bahita bagutungira agatoki.

Aba basore urabona ko bari baje kuzimya ikintu runaka, hirya urahabona imodoka za yuwene ndetse n'iza polisi urahabona n'abana benshi cyane, hirya hari ibiti rwose ubona ko ari ibintu bishobora kuzanira akayaga abantu cyangwa bigakurura imvura ariko dukurikije icyo turi kureba hano ni ikintu cyari gihiye bari kuzimya.

Abagabo babiri bambaye amasoti y'icyatsi kibisi yanditseho vuba bambaye kandi n'amakasike mu mutwe biragaragara neza cyane ko ari abamotari hanyuma kandi biragaragara ko akaboko kabo ko bafashe ku gikapu cy'icyatsi kibisi cyanditseho vuba, icyo gikapu giteretse kuri moto biragaragara cyane ko aribo bifashishwa, muku kujyana ibicuruzwa biba byaguzwe n'abaturage batandukanye babigeze aho bari.

Umukozi wa leta cyangwa umupolisi arimo arereka iyi modoka itwara abantu uburyo bwa rusange aho igomba guhagarara kugira ngo ayibaze niba yujuje icyangombwa, imbere ye hari umumotari nawe uri gutambuka agenda atwaye umugenzi, hakurya urahobona asa n'umugunguzi nyine abantu buririraho wenda bashaka kujya hariya kuri ziriya nzu.

Aha rero uko ubabona hari abantu benshi batonze umurongo, ibyuma biziritseho udutambaro tw'ubururu dusa nk'amabati, utwatsi abantu bicaramo nk'uko ubibona rwose imiryango irafunguye, bari kwinjira bisa nk'aho bafite ibintu baje kureba.

Uyu rero ni perezida Paul kagame nk'uko mubibona, imbere ye hari umudamu ndetse n'undi munyamategeko, ubona ko hari n'idarapo bisa naho yarari kugira indahiro arahirira igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Aba ari byiza cyane kuko abategarugori nabo bahawe ijambo, bemererwa kwinjira ngo biyamamaze nabo bayobore ibigo runaka ubibona uyu nguyu arimo araganiriza uno mugabo rwose bameze neza imbere yabo hari amazi yo kwica icyaka.

Uyu mubyeyi urabona ko yarakaye nta mikino aba afite, imisatsi ye myiza cyane, imiringa ku matwi, hasi urabona yambaye umupira w'umweru, agakote yarengejeho k'ubururu, afite impapuro mu ntoki wagira ngo hari ibyo yarari gusoma, amazi imbere ye, idarapo ry'u Rwanda na yo impande ye.

Uyu, Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nk'uko mubibona ahagarariye ishyaka rya efuperi inkotanyi, afite mikoro bisa nkaho ari kuganiriza abantu benshi, wakubita akajisho inyuma yiwe hari imbaga nyamwinshi y'abantu bari baje kumureba, kuko bamukunda cyane banamukurikiye, hari n'ibitambaro ubona ko biri mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu.

Perezida wa repubulika y'Urwanda Paul Kagame, ahahagarariye ishyaka rya Efu Pe Ri inkotanyi. Nk'uko ubibona rwose rigizwe n'amabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umweru, mu marinete ye meza cyane, ingofero ubona ko ari kugenda asuhuza abaturage bamwishimiye cyane.

Intwari batinya perezida Paul Kagame w' u Rwanda nk'uko ubibonana yakoze amateka menshi ntarugamba yarwanye ngo arutsindwe nk'uko mubizi namwe uramubona rero bisa n'aho ari gutambuka ahantu hakoraniye imbaga y'abantu nyamwinshi bamukurikiye iyo ni intwari rwose.

Nkuko ubibona ni abantu bakomeye, harimo perezida wa repuburika y'u Rwanda, abandi harimo abadamu benshi bikenyeye, inyuma yaho urahabona inzu nziza cyane ikomeye rwose yugarijwe n'ibiti byiza bizana akayaga, ndetse hamanitse n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Nkuko ubibona rero aba ni abarinda perezida w'igihugu Paul Kagame hano yari yambaye rwose agapira k'umweru ubona ko kamufashe, hakurya urahabona abantu benshi bari bamwishimiye abaturage baramukunda rwose uyu mugabo ni intwari.

Ahantu hakeye cyane ubona ko hateraniye abantu benshi basa naho bafite inshingano mu gihugu runaka bafite mudasobwa imbere yabo hakurya hari ababayoboye bababwira ibyo gukora ndetse n'ibyo kwigwaho harimo intebe nziza cyane zikeye amatara ubona ko buri muntu Ari kureba icyo yaje kureba ari no kumva neza ikintu yaje ashaka.

Iri rero n'irindi shyaka rihanganye na efuperi inkotanyi baryita dijipieri girini pati. Riyobowe n'uwo mugabo muri kureba, yagerageje kwiyamamaza ntiyahirirwa ariko wenda twamwizeza ko ubutaha byazagenda neza ntazacike intege.

Noneho abantu benshi rero ubona ko bameze neza harimo abagore, ndetse n'abagabo n'ibyiciro byombi, undi musore nawe afite agaseke arimo aratoresha aba basena batatu bari gushyiramo, imbere yabo hari bari kunywe amatasi ndetse n'amazi menshi, igihe bagize icyaga bagomba kwifashisha.

Aba ni abantu rero ubona ko bishimye bafite umuntu bakunze cyane, bambaye ingofero imipira y'ubururu ndetse mu kirango cyabo bafitemo n'utudarapo turimo umutuku n'umweru ndetse n'iryo bara navuze rijyanye n'imyenda bambaye yandikishije umukara handitsemo FPR, urihagarariye bamwita perezida paul kagame.

Bisa n'aho rero yari inama yari yateraniye ahantu runaka, ndetse bari kwiga ku kibazo tutazi natwe ubwacu. Hagati ni abantu bakuru harimo abadamu ndetse n'abagabo, umwe rero hano ko yari yamanitse afite igitekerezo agiye gutanga.

Uyu mubyeyi rero tumuzi nk'intwari urabona ko imisatsi ye imeze neza yambaye imiringa mu ijosi ibitenge, afite igitabo ku bantu bamuzi, hakurya hirya ye urahabona indabyo nyinshi cyane ariko niba ndeba neza bamwita Uwiringiyimana agata.

Uyu rero nawe yigeze kugerageza kwiyamamaza ahangana na perezida wa repubulika y'u Rwanda paul kagame ariko ntiyabasha kugira amahirwe yo gukomeza, nk'uko umubona rero mu myambaro myiza cyane y'ubururu, umupira w'umweru inyuma ye hari abamuherekeje ni ibintu bisa neza cyane gusa wenda azagerageza ubutaha byazakunda.

Izi rero ni imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, bishyura amafaranga make ukoresheje ikarita ugakozaho kuko itwara abantu benshi bagera muri mirongo irindwi na. Hariho ibirango bishishikariza abandi kwishyura inguzanyo ku bize bishyurirwa na leta

Nk'uko ubibona rero iki igikamyo cyangwa se imodoka ndende itwara ibintu ibivana hanze ibizana mu Rwanda iri kumanuka ibisikana n'indi nanone hakurya urahabona ibitambaro bikoratirije bisa icyatsi byerekana ko hariya haba hari kubera imirimo y'ubwubatsi cyangwa se ibindi bintu, hari n'ibiti byiza cyane. Hakurya hari umujyi rwose ni ahantu hasa neza.

Aha rero ni ku muhanda nko ubibona, akayira k'abanyamaguru, hakurya uhabona n'indi irimo kwigendera, imodoka yaparitse ubona ko ihagaze itegereje gupakira ariko imbere yayo hari indi, ndetse n'igare ryegeretse ku ruhande.

Abamotarr rero ubona ko baparitse ni babiri bari kuganira, imbere yabo hari icyapfa rwose ndetse n'umunzani bapimiraho ibintu runaka, indobo yo gukarabiraho, hakurya urahabona ahantu hari umurasire imbere yabo hari ibiti rwose.

Aha rero urabona ko ari ku muhanda hari imodoka yo mubwoko bwa rava nindi ya toyata imbere hirigisi hakurya urahabona umumotari ahageze hari amadarapo y'u Rwanda rwose ubonako hasa neza hasa umuhodo ndetse n'icyatsi wagira ngo bacuruza ibikomoka kuri peterori.

Iyi modoka nk'uko ubibona ni Taxi yo mu bwoko bwa Toyota itwara abantu mu buryo bwarusange izi nizo zarigezweho kugeza mu mwaka wo mu bihumbi bibiri na cumi na gatu aribwo izindi nini rero kuyitwara iyingiyi bisaba Category ya B ndetse waba ushaka kuyitwara bigasaba Category ya D1 nk'uko ubibona aba ni abagenzi baje gutega bava ahantu hamwe bajya ahandi.

Aha rero nk'uko uhabona ku bantu bahazi bisa n'aho ari mumugi, aho umumotari ari gusa naho ari kwinjira ahantu aparika, ni benshi cyane hakurya urahabona icupa rya kokakola, ndetse n'inzu yiswe iya rubangura gusa yitabye Imana.

Ngo ubu niyo modoka rero ni nini itwara imizigo ikayivana hanze iyizana inaha, ahantu iri rero ni mu muhanda irimo iragenda ibisikana n'indi y'umutuku ndetse n'abamotari hejuru urahabona ikirango cya mitsingi cyerekana ko hano hafi bacuruza inzoga hirya urahabona ibiti byiza cyane.

Ikamyo nziza cyane ubona ko ifite ikintu cy'umuhondo kiri inyuma kirekire, bashyiramo imizigo itandukanye iva hanze, iri kubisikana n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, rwose y'umweru, hakurya urahabona ahantu hari imirimo y'ubwubatsi ndetse n'abantu.

Uyu muhanda rero nk'uko uwubona hirya hari ahantu hanyu amazi yabugenewe, afite akamato gato gacagingwa ari kukagendaho imodoka y'umweru nayo iri gutambuka hakurya urahabona ahantu wagira ngo bacuruza ibikomoka kuri peteroli ku mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Izi ni imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange nkuko ubibona zitwaye abarimo abagore abagabo ndetse n'abana, hakurya hari umumotari ubona ko ari gutambuka ntamugenzi atwaye aho ureba hari ibintu bifunze ubona ko hari imirimo y'ubwubatsi ubona ko irikuhabera ndetse n'ibiti byiza cyane.

Imodoka nziza cyane ubona ko imeze neza gusa isa n'ikuzemo ukuntu mu muhanda hirya ho gatoya urabona hari abantu bikoreye imifuka runaka abandi bafite ibikapu hakurya urahabona na shitingi ndetse n'icyapa cyerekana ko utagomba kuhagarara hirya hari indi modoka nayo iri gukomeza.

Iyi modoka rero ubona niyo mu bwoko bwa Fuso niba ndikureba neza yikoreye amacupa y'umutuku ndetse amato n'amakuru, aya ngaya rero uyifashisha uri guteka bayita gas mu ndimi z'amahanga ariko ntabwo tuzi mu Kinyarwanda uko wabyita iri kujya muri kaburimbo rwose hakurya urahabona imirimo y'ubwubatsi iri kuhabera.

Umuhanda mwiza cyane utambukamo ibinyabiziga nk'uko ubibona harimo umunyonzi uri gusunika igare ririmo udufuka twa kawunga nyine adushyira ahantu runaka hirya hari undi ubonana ko ari muri siporo ari kwirukanka nta modoka iri gutambuka ariko guhita hakurya ahantu hakorotiriye ibintu byerekana ko hari imirimo y'ubwubatsi harimo abantu.

Ni byiza guteka imodoka rusange kuko zirihuta kandi zinagezweho nk'uko ubibona hano hari abantu bari kugenda bazigana ziriho ibirango bya banki ndetse bibiri zira mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru bicaye abantu bugamye izuba kugira ngo ritabica.

Uyu mugabo ubona atwaye moto rwose nyuma hari umukobwa uri kugenda mu muhanda aciye imirongo y'umuhondo, hakurya ku nkombe hari indi yumweru, bigaragara ko hari n'akarere ka nyamaguru hi rero hanyuramo izizamuka, hepfo hakanyura izimanuka, hakurya hari ibiti byiza cyane ubona bikeye.

Uyu mumotari rero urabona ko ari kunyuraho, ino kamyo ihetse umugenzi, iyindi na yo iri kumanuka rwose, hirya urahabona ibitambaro by'icyatsi, bizitiye ahantu bisa n'aho haba hari imirimo y'ubwubatsi runaka ndetse n'ibiti byinshi bitandukanye, bishobora gufasha umuntu nyine kureba, agasobanukirwa ikiri kuhabera.

Iyi foto n'ubwo icuritse ariko nta wabura kutabona ibintu biriho nk'uko ubibona hano ni ku kayira k'abanyamaguru, haparitse moto kasike iteretseho hasi ndetse hari imodoka nyinshi zitwara abantu buryo bwihariye wareba hakurya bisa n'aho buri muntu yari yaje kwigurira telefone utaje kuyigura afite ibindi yaje kureba.

Ibiti byiza cyane ubona ko ari bisa neza cyane hakurya hari abantu babagabo barigupakira hazitiwe n'ikintu kerekana ko cyo mu mabara y'icyatsi harikubera ubwubatsi runaka ariko hano ho bafite ibyo barigushyira mu modoka noneho wareba hari umugenzi urigutambuka n'akandi kamoto.

Uyu rero ni umuhanda ariko hano hari amabuye ubona ko ari karehare, bisa n'aho ari aho baparika, hakurya urahabona abamotari benshi, ndetse n'ahantu banywera ibikomoka kuri peteroli, imodoka ziri kuhatambuka z'umweru, urabona ko ari ibintu bisa neza, bwari butangiye kwira rwose.

Iyi modoka ni nziza cyane iri mubwoko bwa dina isa ubururu yikoreye ibyuma bisa n'aho ari iby'ubwubatsi, wareba hejuru yayo hariho umuntu ndetse hirya gato hari akayira k'abanyamaguru kari gutambuka nubundi hakurya ya motari uhetse umuntu, hirya urahbona ibiti byinshi cyane ndetse ni ibintu biranga ko hari imirimo y'ubwubatsi iri kuhakorerwa.

Ni ku muhanda nkuko ubibona akayira k'abanyamaguru, hari ibiti byiza cyane hari imodoka ubona nziza y'ubururu, iyi niyo bifashisha bigisha gutwara, hakurya urahabo ni aho bashyira imyanda, amapoto y'amashanyarazi ndetse n'amatara n'ibindi byapa biranga ahantu.

Aba ni abamotari batanu ibona ko buri muntu atwaye indi uretse umwe wenyine ufite moto y'ubururu, hakurya hari ikimodoka cy'umukara n'umweru kiri kumanuka gisa naho cyasatiriye indi iri imbere hari igitambaro cy'icyatsi gikorotiriye ahantu ushobora kubona ko hari gukorerwa imirimo y'ubwubatsi.

Imodoka nziza yo mu bwoko bwa Dayihatsu kera zatwaraga ibirayi, amakara ndetse n'ibindi ariko n'ubu ni bwo zigikora urabona ko impande hari umuntu utwaye moto ikoreshwa amashanyarazi hirya gato hari undi utwaye indi bisa n'aho ashyiriye abantu bitumirije ibintu bibereye mu rugo ndetse n'undi mugabo yikoreye imifuka bisa n'aho ayishyiriye abantu runaka.

Aha rero nk'uko uhabona hakurya urahabona ibintu by'ibyuma bifite amapine, biriya babitwaragamo amakesi y'inzoga, n'ubungubu niko bikigenze, hakurya urahabona akajagari k'imodoka nyinshi cyane ndetse n'abantu bari kurwana no gutega bajya iwabo.

Ndabona moto iparitse yo mu bwoko bwa tevisi hepfo urahabona ahantu hari ijerekani, intebe yo kwicaraho, hasa nk'aho bacuruza inyama, hirya hari undi muryango nkurikije akarido kariho bacuruza amata cyangwa icyayi, hakurya urahabona ni ku muhanda nyabagendwa urimo abamotari benshi.

Hano nkuko uhabona hari imodoka zitwara abantu muburyo bwa rusange benshi cyane bari mu muhanda, imbere yaho hari umunyonzi s'umwe gusa ahubwo hari n'undi. Inyuma yaho urabona ko hari indi nziza cyane y'umutuku itwara abantu ibavana mu gihugu kimwe ibajyana ahandi, nkurikije uko nyizi iyingiyi ishobora kujya y'Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi.

Utuzu twiza cyane dusakaye ariko bitakubuza ko imvura yakunyagira, iruhande rwaho hari ahantu bajugunya imyanda, wakubita ijisho hakurya, hai ahantu hari indabyo nziza, ubonako zikurura abantu ibiti, hari na etage rwose iriho ikirango cy'ibara ry'ubururu, n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Aha rero urahabona hari amabuye meza cyane n'abantu b'uruvunganzoka rwinshi hakurya urahabona uduti ndetse n'utwuma tuhateye aho kwicara aho gushyira imyanda ni ahantu ushobora gutemberera nkuko bahazi rero ni hano mu mugi nawe wahagera.

Iki ni kibuga bakiniramo teni kubakizi hakurya ubona ko ari ahantu abantu bicara rwose bakaryoherwa n'umukino bari gukina, kano kantu k'umweru ni ako baba barenzaho akadenesi hejuru nyine baba bakina baba bafite utuntu tubiri batera undi agasubiza gutyo gutyo.

Ni byiza ko nkuko uhabona hano hari umuhanda, uri kugendamo abamotari, akayira k'abanyamaguru, munsi harimo ipoto ry'amashanyarazi riteyeho amatara amurikira nijoro, ariko hariho n'icyapa kirimo umweru, umutuku, ndetse n'umwana uri kwambuka aha. Ibi rero bigaragaza ko ahantu ugeze imbere gatoya ari aho bambukira, abanyamaguru.

Aha rero ni kumuhanda nk'uko ubibona hari ikirango kerekana ko nugera imbere gato hari umuhanda uri bukate iburyo kiri mu mabara y'umutuku, umweru n'umukara hakurya hari ibiti rwose bizitiye ahantu ndetse n'inzu.

Iki rero ni ikirango cyangwa se icyapa kibarwa mu mategeko y'umuhanda kireba abantu batwara ibinyabiziga bya buri munsi. Rero nkuko ubibona mu ishusho y'umweru mpande eshatu mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara ni icyerekana ko ahantu ugiye kugera hari akayira k'abanyamaguru bambukiramo.

Abagabo babiri bambaye amasoti y'icyatsi kibisi yanditseho vuba bambaye kandi n'amakasike mu mutwe biragaragara neza cyane ko ari abamotari hanyuma kandi biragaragara ko akaboko kabo ko bafashe ku gikapu cy'icyatsi kibisi cyanditseho vuba, icyo gikapu giteretse kuri moto biragaragara cyane ko aribo bifashishwa, muku kujyana ibicuruzwa biba byaguzwe n'abaturage batandukanye babigeze aho bari.

Ni saro nziza cyane iteretsemo intebe z'amadiva z'amabara y'ubururu ameza ateretse ku itapi, inyuma yayo hari saramanje ku ruhande hari amarido akinguye.

Iki kirango rero nk'uko mukibona kiri mumabara y'ubururu n'umweru, imbere harimo ikinyabiziga gitwara abantu muburyo bwa rusange, kireba abashoferi cyangwa abatwazi babyo. Iki rero nukibona ahantu uzahite umenya ko hafi aho ngaho hari aho guhagarara kugira ngo ukuremo abagenzi cyangwa ubashyiremo.

Iki ni ikirango rero kiri amabara y'ubururu ndetse n'umweru, kireba abanyamuhanda batwara ibinyabiziga runaka, cyerekana ko hari umuhanda ukomeza ndetse n'undi ushamikiyeho ukata iburyo, rero utegetswe kubikora kuko igihe ubirenzeho ukaba wagiye ushaka baraguhana.

Uyu ni umuhanda rero utandumbukamo ibinyabiziga. Nk'uko ubibona ibumoso hariho icyapa kiranga ko hari imirimo yo kubaka, iyo uhageze rero ukakibona ugomba guhita umenya ko hari imirimo yo gukora umuhanda. Nk'uko ubibona harimo umusore ufite igitiyo urimo arapakurura umucanga.

Ibara ryiza ry'umweru, ubona ko ari ikirango cya mpande eshatu, kizengurutswe n'ibara ry'umutuku. Harimo akantu k'umukara kagaragaza ko ari ikorosi, ahantu ugiye gukata hari n'undi muhanda ukomeza.

Abamama babiri bicaye imbere bari mu nama, ndetse n'abandi benshi bari inyuma basa nabo nk'abitabiriye inama; imbere yabo: hari telefone, hari ikirahure, hari ikiyiko ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni ikirango kireba abatwazi bose b'ibinyabiziga gusa ndetse nawe muri rusange ugomba no kubyubahiriza nubwo ntakinyabiziga utwara uri umugenzi reba kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru handitseho inyuguti ya pa isobanura ko ariho agomba guhagarara agakora nk'umugenzi cyangwa akamushyiramo nuhakibona nawe uzahita wibwira ko ariho ugomba gutegera.

Iki rero kireba abantu batwara ibinyabiziga, ni uko nugera ahantu ukakibona uzahite ucyubahiriza. Iki cyekana ko imbere gato hari ahantu ugiye guhagarara ugakuramo abagenzi cyangwa ukabashyiramo, urabon kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hasi hari imodoka.

Aha rero nk'uko uhabona hari ibyapa biranga ahantu uri kujya k biri mu mabara y'icyatsi ndetse n'amagambo yanditse umweru handitseho giheke ni murenge waho nyine, hakurya urahabona ibindi byinshi ibiti byiza cyane, umuhanda urabona hari n'undi muntu uri kugenda n'ibyatsi bisa neza.

Aha rero urahabona, iki ni cyapa cyanditseho sitopu mu ndimi z'amahanga ariko mu ndimi zacu ni hagarara akanya gato, ku mategeko y'umuhanda bayize, kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru urabona ko bisa neza, ni ibara ryiza cyane.

Hano rero nkuko uhabona uri kuhagera ukabona umuhanda ukata i buryo ndetse nukomeza hanyuma wareba imbere harimo umumotari rwose ubona ko yambaye umwenda w'akazi. Ibyapa biherekana aho uri, amatara ku muhanda amurikira ari nijoro ndetse n'ibiti byinshi ubona ko nabyo bifite ibyo bikingirije utabasha kubonesha amaso yawe.

Hano ni kumuhanda nk'uko ubibona ,hari imodoka nyinshi cyane zitandukanye bisa n'aho zaje gusaba ubwishingizi nk'uko ubibona ,mur' ibi birango bir' aho ngaho rwose cyangwa, izindi zifit' ibindi bintu byajemo , kubantu bahazi hano ni, i Remera rwose.

Hano nkuko ubibona ni ku muhanda, ariko hasa nkahari umwanda imbere y’igipangu. Hari utwatsi tuhateye. Ipoto ry’amashanyarazi rihari rikaba ritanga umuriro. Hakurya, hari inzu nziza yatewe irangi ry’umweru, irimo n’amabati y’umukara, hamwe n’ibindi byinshi. Gusa, ikirere kigaragara nk’ikitari keza ndetse kitaneye ijisho. Uyu muntu akwiye kujya agirira isuku.

Hano rero nk'uko uhabona ni ku muhanda, hirya hari akayira k'abanyamaguru, hari imodoka y'umukara na yo ya Toyota, yo mu bwoko bwa polisi iri gukata, isa n'imanuka. Hakurya turahabona icyapa cy'umutuku n'ahanditse mitsingi, bigaragaza ko bahanywera inzoga rwose cyangwa agasembuye, ni ko nabyita.

Iyi nzi nkuko mubibona ni nziza iri ahantu neza hasi hari andi menshi cyane afite amabati y'umukara ndetse n'umutuku ibiti ubona ko bimeze neza na byo hakurya urahabona, hejuru rero noneho iyo urebye hari ibigega bibika amazi, uturahuri ushobora kwicaraho ukareba umugi wose wicaye iwawe.

Aha rero ni ku muhanda nk'uko ubibona harakeye, haratunganye ndetse haranatekanye, ibiti byiza cyane, urabona ko nta nyoni itamba, uhageze ushobora kugira ubwoba ukavuga ngo "ndi kujya hehe"? Ese sinayobye?

Ni byiza ko nawe iwawe wjya uhatera utwatsi runaka cyangwa indabyo, nk'uko unibona hano hari igikuta cy'amabuye ariko bazamuye utuntu runaka, nyine ubona ko dusa neza ibiti hirya, igipangu ubona ko kiriho ibyo hakorotiriye mo imbere harimo inzu aha rero urabona ko hasa neza.

Abantu benshi batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze umwe muri bo afite ibendera rifite amabara atatu atandukanye, harimo ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako nkuko mubibona ko ari nziza cyane irubakitse, iriho udutafari, amarangi y'umweru ibiti bihateye bizana akayaga , igipangu cyiza cyane urabona gikomeye , ni byiza ko nawe rero niba ufite ubushobozi wayiyubakira kuko iyi ngiyi nta kibazo ihura nacyo cy'umuyaga cyangwa se ibindi bintu runaka bipfa kuyangiza ako kanya.

Ibiti ni ingenzi nk'uko byumvikanishwa biravuga ko ita ugomba gutema ugatera bitatu cyangwa bitanu bitewe, cyangwa watema kimwe ugatera ibyisumbuyeho. Nk'uko ubibona hano nka bariya bantu bicaye mu gacucucucu kabo ntamvura cyangwa izuba ryabica ngo bahaguruke bahite bagenda ako kanya.

Rero ni umusore nkuko umubona kukirenge wambaye ipanaro y'umukara ndetse n'inkweto akandagiye ahantu hari amabuye ubona ko yashakaga gufata ifoto rwose ngo atwereke agapanaro ke ukuntu gakeye ndetse n'agakweto ke ukuntu aba yagahanaguye.

Ahangaha uwahaguze kera niwe ubungubu uzi ukuntu ameze ariko uwahagurishije ahubutse nawe ari kurira nk'uko ubibona reba ibiti bihari ariko mbere hari ibihuru reba amazu ahari yubatse harashije, umuriro w'amashanyarazi urabona ko nta kibazo babaye rwose.

Aha ni ahantu ubona ko hasa neza, hari ibiti ndetse n'amazu atandukanye afite amabati y'umutuku n'ay'umukara, hakurya urahabona indi ikotirije ibintu by'icyatsi wagira ngo iracyari mu mirimo yo gukorwa rwose ya etaje ubona ko izagerekwa inshuro nyinshi aha ni i Remera rero.

Utu twuma rero uko utubana turasa umweru amabuye meza cyane ahashashe hakuri ikirango ishushanyijeho fanta ipfundikiye imodoka nyinshi cyane ubona ko zahitabiriye inzu nziza cyane nako nayo isa neza.

Aha hantu rero ureba hashashe amabuye meza cyane, indabyo hirya, urahabona ko wagirango ngo n'aho banarira rwose, imodoka iri gutambuka inyuma yayo urabona amazu meza akeye, ateye amarangi y'umweru, ndetse n'amadirishya asa umukara, ibiti bihari bizana akayaga, urabona ko ari ibintu bisa neza cyane.

Hano ubona ko hari umuhanda uri kuza ndetse uhita ukata iburyo bwawe hari imodoka iri kumanuka hakurya igipangu cy'icyatsi uri kubona, harimo inzu y'amabati y'umutuku ndetse n'icyapa kiri imbere yaho ukongera ukahabona indi itwara abantu benshi mu buryo bwa rusange bisa n'aho ari iya leta ariko niba ndi kureba neza.

Ku bantu bazi agaciro k'ubutaka nibo bavuga ko hano hantu uwahagoze atahombye, kuko nko muri za mirongo icyenda na, umwe yaraharebaga akavuga ati hano hantu nta buzima burimo rwose wihajya, ariko ubu reba amazu atuye, reba ni meza cyane afite amabati, amazu arageretse, nawe rero ntukagire ipfunwe ryo kuba wagura ikintu cyitwa ubutaka kuko ntabwo kijya gihomba.

Ntabwo ari byiza guparika ahobonye hose hari ahabugeneye, nkuko' ubibona hano niho mwemereye, iyi vatiri rero nayo urako yubahirije amategeko hari ibikamyo biri kumanuka bifite aho bijya urabona akazu k'ubururu abantu bicaramo igihe barushye bumva izuba ryabishe.

irya k' amabuye abanyamaguru amatara meza igiye guca munsi y'kiraro kugira ngo ihure n'inda ariko zibisire zidakora impanuka

Ni ikinyabiziga kinini gitwara imizigo zitwara ibintu byinshi bitandukanye ibikoresho by'ubwubatsi ibiribwa ndetse n'indi ni ingenzi cyane mu mbaga nyamwinshi.

Iyi ni imihanda ibiri rero, urabona ko umwe ukomeza umanuka undi agakatira iburyo ariko ahandi urahabona abamotari. Bamwe bari gukomeza abandi bazamuka ndetse n'imodoka nyinshi urabonako nyine hasa neza cyane n'ibiti bihabereye.

Ahantu rero urabona munsi hasa n'aho hari ikiraro ariko hariho utwuma dutangira abantu kugirango ngo batagwamo, hakurya yaho naho hahagaze umuntu, ndetse hari imirongo y'umweru ihaciye igaragaza abanyamaguru bambukira, hakurya yaho hari imodoka y'umukara ndetse n'izindi n'amatara ariko ukabona ko butangiye kwira.

Aha rero nk'uko ubibona haraheye umuhanda mwiza uriho amatara, ubona ko iburyo n'ibumoso hose ugerayo, hakurya ukaba ubona etaje, y'umweru icyeye cyane ibiti byiza ndetse n'ibyatsi ushobora kuruhukiramo rwose igihe wumva urushye.

Umuhanda nk'uko uwubona ni mwiza cyane, urimo ibice bibiri ndetse hari n'aho banyura bazengurutse. Uteyemo ibiti, uriho amatara hakurya urahabona icyapa cy'umutuku ndetse n'ikindi kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru kiranga ko banyura aho ngaho bazengurutse. Hakurya kubita akajisho hari imodoka ziri kumanuka.

Uyu ni umuhanda rero nk'uko ubibona ukeye ariko ibiti bisa n'ibizamo igicucu hakurya hari utwatsi duteyeho, ndetse n'ahandi hari akayira k'abanyamaguru wakubita ijisho hirya hari umuntu uri gutambuka wikoreye ibintu runaka, hakurya hari imodoka iri gutungukayo rero ndetse n'ibiti byiza cyane ubona ko bikeye.

Aha hantu nk'uko uhabona ni umuhanda nyabagendwa, wakubita akajisho hakurya hari icyapa kiri mu mabara ubururu n'umweru gitegeka ko ugomba gukata iburyo, hirya gato urahabona ibikamyo bitonze umurongo, umumotari imbere yabyo, ndetse n'ibiti, n'ahandi ubona ko ushobora gukatira nyine ubuze inzira.

Kigali ikeye nk'uko ubibona iranasukuye rwose imihanda ni myiza cyane, amatara nijoro uragenda nta kibazo, ikirango hakurya kiranga inzoga runaka, imodoka uri kuzibona zitwara abantu mu buryo bwihariye apana mu buryo bwa rusange, mota ziri gutambuka zicanye amatara ubona ko ari ibintu byiza cyane bifite isuku.

Uyu muhanda rero ni mwiza cyane nk' uko mubibona . Ukasemo ibice buri wese afite uruhande agomba kugenderamo. Hari impande zizamuka n'izimanuka ,hakurya ya ho ni ibiti byiza cyane n'amatara ateye ku ruhande. Hirya na ho hari indi kamyo y'uburu iparitse rwose bisa nk'aho byemewe n'amategeko. Ariko hari n'ibyapa rwose biyobora abantu.

Uyu muhanda rero ubona iyo uwumanutse, wagera imbere ubona uw'iburyo n'uw'ibumoso. Uhitamo uw'ushaka biterwa, hakurya urahabona ifoto ricana nijoro, gusa wakubita ijisho ukabona ama etage nyine ugahita umenya ahantu ugiye.

Imodoka nziza cyane nkuko ubibona mu muhanda ifite ahantu yerekeje hakurya hariya aho banywera ibikomoka kuri peterori urabona ko hari umumotari uparitse n'undi uri gukomeza atambuka imbere yaho wareba inyumaho gatoya hari imodoka za polisi zishinzwe umutekano wo mu muhanda kubakora amakosa.

Ubungubu burije nk'uko ubibona rwose amatara ari kwaka hano ni ku kiraro hejuru hacaho imodoka no hasi hagacamo izindi, niheza nk'uko ubibona hakurya hari indi nyubako rwose nayo iri kwaka abantu bari kugenda ntakibazo harimo isuku.

Abagore: umwe, babiri, batatu, bicaye ku ntebe z'imbaho, imbere yaho hari imeza iteretseho mudasobwa buri wese ari gukoresha. Imbere hari amadirishya y'umweru arimo ibirahure, ariho n'amarido y'umweru.

Hano rero urahabona hari umuhanda unyurama izizamuka ndetse n'izimanuka hirya urahabona icyapa gishobora kuba ziparikaho ndetse n'icyuma gifotora bakoze amakosa amatara mu muhanda rwose ubona ko ashobora kukumurikira nijoro kugira ngo udakora impanuka runaka.